Abantu benshi bicaye mu ihema bambaye udupira tw'umuhondo tw'impuzankano, iruhande rwabo hateretse amagare, hirya hari ibiti ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Umugabo ufite imvi mu mutwe wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare ufite indangururamajwi mu ntoki uhagaze imbere y'abantu uri kuvuga imbwirwaruhame.

Abantu benshi barimo abana, abagabo n'abagore bahagaze imbere ya kiliziya bavuye gusenga.

Inyubako ya Kiliziya irimo abagore n'abagabo b'abirabura n'umugabo umwe w'umuzungu, imbere kuri Aritari hari ibitambaro bihatatse by'umutuku n'umukara.

Mu nyubako icumbikira abagenzi, harimo ameza ateretseho isafuriya irimo isosi n'inkoko bikaranze neza.

Mu cyumba cy'inyubako yakira abagenzi kirimo utubati, ameza, intebe, imitako myiza itandukanye n'amatara meza.

Inyubako y'amagorofa nini icumbikira abagenzi, imbere yayo hari ubusitani burimo ibiti n'ibyatsi bitoshye.

Inyubako nini cyane kandi nziza, irimo imitako myinshi itandukanye, irimo ameza n'intebe, ifite amadirishya maremare.

Icyumba cy'uruganiriro gisize amarangi y'umweru, gifite amarido maremare kirimo intebe z'amadiva zifite imisego kirimo n'ameza.

Mu isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa, hari abana bahagaze iruhande rw'ibicuruzwa, hari n'umucuruzi uri gucuruza.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'biribwa n'ibinyobwa, harimo ameza, hariho igitambaro cy'umweru, ateretseho ibiribwa bitandukanye n'ibyo kunywa.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa, irimo intebe nyinshi n'ameza, harimo kandi n'imitako myiza itandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'biribwa bitetse, irimo imitako myinshi, amatara acanye, ameza menshi, n'intebe nyinshi.

Umuhanda wa kaburimbo wegereye amazu, urimo amagare abiri, igare riri imbere ririho umunyonzi, uri kuvugira kuri telefone, inyuma ahetse umuzigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto yicayeho umumotari, iruhande rw'umuhanda hari ibiti n'amatara maremare.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto nyinshi ziriho abamotari n'abagenzi, ku gahanda k'abanyamaguru naho hari gucamo abagenzi.